Radiyanti yacu itanga ubwishingizi bwitwa Turi kumwe, ikaba itanga ubwishingizi bw'ubuzima, ushobora gukanda: akanyenyeri, gatanu, gatatu, rimwe, urwego ukaba wakigurira ubwishingizi.

Sorasi ndetse na Sahamu byihurije hamwe biba Saniramu kugira ngo bibashe kuba byatanga serivisi nziza kandi inoze, abagabo babiri n'umugore umwe bose hamwe bafashe ifoto y'urwibutso, kugira ngo bajye bahora bibuka ibyo bihe byabaye.

Irembo yakuzaniye uburyo bworoshye kandi bwizewe, umukobwa wambaye umupira w'ubururu, uri kwamamaza iyo sisiteme nshyashya y'irembo yaje ku buryo, ushobora kuba wakishyurira mituweri biroroshye kandi birihuta.

Wihangayika, ohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka igihe cyose aho uri hose. Hamwe na sonagrwa biroroshye kandi birizewe. Ushobora gufata ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubw'inzu, ubw'ubuzima, ndetse n'ubundi bwose wakwifuza.

Radiyanti yacu rinda umuryango wawe ugura ubwishingizi bwubuzima, turi kumwe kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego wigurire ubwishingizi bw'umuryango wawe.

Ni gute wakwiyumva mu gihe habaye umutingito? Hano Cameron Hurley ashobora kuba yaguha ubwishingizi mu gihe habaye impanuka maze ukabasha kuba wakomeza kumera neza. Ibyo biroroshye kandi birizewe.

Hamwe na Radiyanti, bagufitiye ubwishingizi bugiye butandukanye. Radiyanti yacu turi kumwe. Gura turi kumwe, ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima, bityo wowe n'umuryango wawe muzabeho ntacyo mwishisha.

Butike icururizwamo ibihangano bijyaniranye n'umuco; urugero imitako yo mu nzu, imitako yo mu byumba, imitako yo ku mubiri, yaba ari iyo mu gihugu kimwe cyangwa se ibindi byinshi.

Botike irimo ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko imitako igiye itandukanye yaba iyo muri salon iyo ku mubiri ndetse n'iyindi yose wakwifuza kandi ni myiza yose.

Butike iherereye ku muhanda nyabagendwa, icuruza imyenda igiye itandukanye yiganjemo iy'abamama, abafitemo amajipo, amakanzu meza y'amabara agiye atandukanye, ay'umweru ay'umuhondo, ay'umukara.

Iduka ririmo imyenda myinshi cyane igiye itandukanye. Harimo amashati yo kwambara, amapantaro, ay'abagore n'ay'abagabo. Harimo kandi n'imipira myiza cyane, ushobora kwambara ukaberwa.

Iduka ririmo ibintu bigiye bitandukanye, hakaba harimo umugore wambaye itaburiya y'umutuku ndetse n'ishati y'umukara. Atanga serivisi nziza kandi agasekera abakiriya.

Butike irimo ibikoresho by'abana ndetse n'utuntu twose abana bakenera bitewe n'ibyo wowe wumva wifuza urugero, bafitemo udupupe tw'ubwoko bwose, udufite amabara atandukanye kandi abaguzi biterwa n'amabara baba bahisemo.

Botike icuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, iherereye mu mujyi wa kigali, icuruza ibijyanye n'ibitabo, ibijyanye n'imideli, amateka ndetse n'ibindi.

Butike icuruza imyenda igiye itandukanye, harimo amapantalo y'amabara menshi kandi atandukanye y'abagabo. Harimo amapantalo y'umweru, aya kake, ay'ubururu ndetse n'andi mabara menshi.

Butike icuruza imyambaro ndetse n'inkweto bigiye bitandukanye, bafitemo n'ingofero umuntu ashobora kuba yagura, bacuruza kandi amajezi y'amakipe agiye atandukanye y'Iburayi.

Butike irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo imitako, yabo iyo muri salo, iyo mu byumba ndetse n'iyo mu mahoteli, hari kandi imitako yo ku mubiri, iy'ubwiza n'iyindi.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye higanjemo iy'abamama harimo amakanzu, imyenda myiza yo kujyana mu makwe y'amabara yose wakifuza uyasanga hano.

Butike irimo ibikoresho byinshi bitandukanye byiganjemo iby'imitako, harimo umukobwa uyikoramo wambaye umupira w'umukara, arimo aratunganya ibyo abakiriya bagiye gutwara.

Imitako myiza cyane yiganjemo iyo mu mico nyarwanda, ikaba ishobora gushyirwa ahantu hagiye hatandukanye, urugero, ishobora gushyirwa muri salo kandi ikomekwa ku rukuta, kuburyo idatwara undi mwanya muri salo.

Butike icuruza imyambaro. Umugore urimo urahaha, wambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'icyatsi, arimo arishyura akoresheje ikoranabuhanga kandi biroroshye birihuta.

Butike icuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye higanjemo imyenda yo kwambara, inkweto, amashati y'amabara yose ndetse n'ibindi bitandukanye.

Butike icuruza imyambaro ndetse harimo n'inkweto, abakiriya baraza bakareba imyenda bifuza, yaba amashati, yaba amapantaro, yaba imipira, yaba inkweto byose birahari.

Inzu iparitsemo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, zose zirimo kugurishwa, hari izifite amabara y'umweru, izindi zifite amabara ya kake, hari n'izindi zifite amabara y'umukara zose ziri kugurishwa.

Imodoka nshyashya ziri mu nzu zose kuko ziragurishwa harimo imodoka zifite amabara agiye atandukanye urugero, nka lava fo z'umukara, harimo kandi amavatiri meza afite amabara agiye atandukanye.

Akagera motors ni sosiyete ikuzanira imodoka zigiye zitandukanye zaba iza esansi iza mazutu ndetse n'izindi izivana hanze ikazizana mu Rwanda iri gufatana amafoto y'urwibutso n'abantu yazaniye umodoka ikazibagezaho neza.

Imodoka nziza zikomeye zo mu bwoko bwa yundayi, bashobora kuzikuvanira hanze ku ruganda zikakugeraho bidatinze kandi ku giciro cyikunogeye rwose, batume kuko barizewe.

Yundayi, aho imodoka za yundayi zicururizwa, izo waba wifuza zose ushobora kuzibona hano. Inzu nini kandi nziza, imodoka zose ziba zirimo kugirango muze mwihahire bitabagoye.

Toyota rava fo hayiburidi yo mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi. Ifite ibara ry'umweru kandi ni otomatike. Iparitse hafi ya sitasiyo kandi irimo kugurishwa.

Esee uriteguye kugura imodoka yawe, imodoka zo mu bwoko bwa yundyi zose zirahari muri kigali karizi maketi, hamagara zeru karindwi, umunani gatandatu, gatatu gatatu, umunani kane, icyenda kane ubone iyawe.

Abagabo bane bari kumwe n'umuyobozi w'Akagera motozi, arimo arashyikiriza umwe muri bo imodoka ye yatumije kandi ikaba yamugezeho nta kibazo ifite, kandi mu gihe kitarambiranye rwose.

Umuyobozi w'Akagera motozi, arimo arashyikiriza imodoka umukiriya wari wayitumije. Ni imodoka yo mu bwoko bwa fuso nini cyane, isize amarangi y'umweru kandi ikiri nshya.

Imodoka barimo koza bafunguye imiryango yose kugira ngo babashe kubona uko bayoza ibashe kugenda ifite isuku, hirya yayo hari indi modoka iri kozwa na yo ifite irangi ry'umutuku.

Imodoka y'umukara nziza cyane iparitse aho bagurishiriza imodoka nshyashya z'ubwoko bwose, imodoka ifite umwanya munini cyane wa butu ushobora kuba washyiramo ibintu byawe kandi bikagenda bifite umutekano.

Imodoka nziza cyane ziri ku isoko kandi zose zirasa. Zifite ibara ry'umweru kandi ni lava fo, novo moderi. Bisobanuye yuko ari imodoka zitagenze urugendo runini.

Imodoka irimo kozwa ifite intebe nziza cyane zambaye kaki kandi hakurya y'iyi modoka hari indi lavafo y'umweru iparitse, kandi yiteguye kuba yagenda.

Akagera motozi umuyobozi w'akagera moto arimo arashyikiriza imodoka y'ikamyo yo mu bwoko bwa benzi umukiriya wari wayitumye, kandi yamugezeho bidatinze kandi birizewe rwose.

Banke Nasiyonari y'u Rwanda. Inote y'ibihumbi bitanu yakoreshwaga mu gihugu cy'u Rwanda, mbere mu ntangiriro z'igihumbi kimwe magana cyenda. Ariko ubu ngubu ntago ariyo igikoreshwa, bayisimbuje indi.

Banke Nasiyonali do Rwanda, inote y'igihumbi. Inote yakoreshwaga mu bihe bya kera y'igihumbi, ikaba itagikoreshwa muri iki gihe, kuko hagiyeho inote nshya yemewe n'amategeko.

Amafaranga menshi ateretse ku meza y'igiti ndetse iruhande rwayo hari imashini yifashishwa mu kubara amafaranga mu buryo bwihuse kandi bwizewe rwose.

Umugabo wazanye amafaranga kugira ngo bayamuvunjire bitewe n'uko angana barabanza bayabare ubundi baze kumuha ahwanyije agaciro neza neza n'ayo yari yazanye.

Igiceri cya mirongo itanu senkanti fura kikaba ari igiceri cyakoreshwaga kera cyane, ariko ubu ngubu cyasimbuwe n'igiceri gishya cya mirongo itanu kandi gikoze neza kurusha icya mbere.

Ikirangantego cya bank nasiyonari y'u Rwanda, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, ni bwo iki kirangantego cyakozwe, gishushanyijeho igiti kiriho ikawa.

Umugabo ufite inote nyinshi cyane urimo kuzibara, iruhande rwe hari akamashini yifashisha kugira ngo abashe kuba yabara mu buryo bumworoheye kandi bwihuse.

Umugabo wicaye imbere hari ikirahure gitandukanye n'umukiriya, uwo mukiriya yaje kuvunjisha amafaranga, uri kumwakira yambaye ikote ry'umukara n'agapfukamunwa kandi yambaye na marinete.

Amandazi menshi ari ku iparato mu ntoki z'umuntu kandi akaba ari ayo gucuruza kuko akora kuri dayari abantu baraza bashaka amata bashobora no kuba bayarya kandi bakumva baratuje.

Dayari porodagiti. Bikaba ari ibicuruzwa bigiye bitandukanye wasanga kuri dayari, urugero; nka yahurute, amata afunze neza mu makarito, ndetse ushobora no kuhasanga ibyo kunywa ibindi, urugero nka ji na fanta.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye, biba biri kuri dayari zitandukanye, zaba iz'i Nyanza cyangwa se iz'Inyange. Haba hari amazi yo kunywa ndetse haba hari n'ibyo ushobora kurisha mu gihe uri kunywa amata.

Mukamira dayari rimitedi. Amata n'ubuzima, ku ikaragiro rya Mukamira haba hari icyuma kirimo amata yo kunywa, haba hari na firigo kandi, bashobora gushyiramo amaji cyangwa se yahurute.

Inyange ddayari, ikaba iba ifite ibicuruzwa bigiye bitandukanye urugero amata y'ikivuguto, yahurute ndetse n'ibindi, ikindi kandi ifite amata y'inshyushyu ndetse na keke n'amandazi.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, ukora kuri dayari aho amata aba ari menshi. Afite ijage, arimo gusukira amata ku mukiriya washakaga amata kandi bamuhaye icyansi cyo kuyabuganizamo.

Inyange Dairy bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye; bagufitiye amata, yahurute ndetse n'ibindi byinshi. Ijage bakoresha kugira ngo bapime neza amata umuntu ashaka, iteretse ku meza.

Abagabo batanu bose bafite igikombe cy'amata kandi barimo kwishima barimo guseka, bafashe ifoto y'urwibutso izajya ihora ibibutsa ibihe byiza bagiranye.

Igikombe kirimo amata hamwe n'isahani iriho ibiryo, biteretse ku meza kandi umuntu arimo arabirya kubera yuko ashonje, Inyange Dayari izi serivisi zose uzisangayo.

Igikombe kirimo amata y'inshyushyu, giteretse ku meza y'umweru, hari n'isahani yari iriho ibyo kurisha, byose hamwe bikaba biri kuri dayari aho bacururiza amata ndetse n'ibindi.

Digito Peyimenti Puratifomu, zikaba ari platifomu ushobora gukoresha wishyura kandi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Igihe cyose kandi aho uri hose, biroroshye kandi birihuta. Ushobora gukoresha telefone yawe maze ukishyura ibyo ukeneye.

Hamwe na sipeni ushobora gukora konti yawe bityo nawe ukajya wizigamira amafaranga agiye atandukanye, kandi bakakubonera inyungu ya kane ku ijana kuri konti yawe yo kwizigama wafunguje. sipeni uyisanga kuri pureyi sitowa.

Uburyo bwo kohereza ndetse no kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, k'uburyo bukoroheye bukaba ari uburyo bugaragazwa no kuba wabika amakuru yose ya taranzagisiyo yabayeho, ku buryo ushobora kongera kuyareba.

Uburyo bworoshye kandi bwizewe ushobora kuba wakoherezamo amafaranga, ukoresheje telefone yawe akagera ku wo uyoherereje, kandi akamugeraho afite umutekano.

Momo apu ushobora kuba wayikoresha nawe ukabyikorera, ushobora kwishyura fagitire ufite ukoresheje telefone yawe, ushobora kwishyura kandi amafaranga y'ishuri utiriwe uva aho uri ugakoresha telefone yawe gusa.

MTN mobile money ifite uburyo bwinshi bushobora kugufasha, kuba wakwishyura cyangwa se ukakira amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga na telefone yawe, bitabaye ngombwa yuko wirirwa uva mu rugo rwose.

Paypal, paypal ni uburyo bwizewe kandi bwihuta, urugero John yohereje amafaranga kandi ashaka ko agera ku muntu we uri hanze y'igihugu, arifashisha uburyo bwa paypal kuko amafaranga yose ari bumugereho kandi byihuse.

Bank of kigali BK, ikaba yatanze urutonde rugaragaza ibikorwa byose byabaye, ku itariki icumi z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu, ahagana saa munani na makumyabiri n'umunani.

MUSHYIRAHAMWE Geregwari ahawe fagitire igaragaza ko yishyuye umusoro wa Rwanda reveni otoriti ku itariki mirongo itatu n'imwe zukwa cumi n'abiri bibiri na cumi n'ikenda akaba yawishyuye mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Fakitire ya ibiyemu yatanzwe na Mushyirahamwe Gregoire, kandi akaba yishyuye umusoro akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga. Bityo akaba azirinda inyungu z'ubukererwe kuko yishyuye umusoro we ku gihe.

Fagitire ya Rwanda reveni otoriti igaragaza yuko sosiyete indisitiriyeri de materiyeri de konsitaragisiyo simako, yamaze kwishyura umusoro wose yasabwaga kandi bishyuye bakoresheje ikoranabuhanga.

Imbonerahamwe igaragaza uko amafaranga y'ibihugu runaka agenda avunjwa bitewe ntayo wifuza, ayo muri Australia, ayo muri Brezil, muri Canada, mu Bushinwa, muri USA ndetse n'ahandi hose wifuza uyasanga hano.

Amafaranga y'amahanga agiye atandukanye, umuntu wayazanye yaje kuvunjisha kugira ngo bamuhe ayo ari bube ashaka yose, hari imashini yifashishwa kugira ngo ibare neza kandi itibeshye.

Akuma kifashishwa mu kubara amafaranga, iyo harimo inote itari iyo amategeko yemera ihita iyikuramo, bisobanuye ko aka kuma kaba kizewe kandi inota ya pirate ntago kayemera.

Amafaranga y'amanyamahanga agiye atandukanye, hari inote z'amadolari ijana ijana ebyiri zihateretse, kandi umuntu arimo kugenda abara amafaranga gake gake kugira ngo ataza kwibeshya.

Amafaranga yo mu bihugu bigiye bitandukanye. Harimo inote ya magana atanu, inote y'ijana y'amadolari ndetse n'izindi note zo mu bindi bihugu zijye zitandukanye, umugabo uri kuyabara aritonze kandi aratuje kugira ngo ataza kwibeshya.

FOREX BUREAU akaba batanga serivisi zigiye zitandukanye zo kuvunja amafaranga; bashobora kuguha amadolari wari ubashyiriye amanyarwanda. Batanga n'izindi serivisi zitandukanye zirimo kohereza amafaranga mu mahanga.

Dukomere folegisi biro bakaba bavunja amafaranga yawe ayo waba uzanye yose bitewe n'ingano yayo, bakaguha mu madolari cyangwa se amafaranga y'andi wifuza kandi birihuta birizewe.

Aho bavunja amafaranga y'abanyamahanga, hari abakiriya bane, abagore babiri n'abagabo babiri. Bombi bari ku murongo kugira ngo baze kuvunjrwa amafaranga bazanye yose.

Kiyosike zikorerwamo imirimo yo kuvunja amafaranga, ikindi kandi bashobora kugufasha mu gihe ushaka kohereza amafaranga mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, kandi akabageraho vuba, kandi afite umutekano.

Intebe zifite imisego ya kake ziteretse muri saro zonyine zidafite ameza, hari amakaro meza cyane yometse ku rukuta ndetse n'ashashe hasi y'imyeru.

Imitako yo muri saro igiye itandukanye kandi ikozwe mu biti, ibiti barakora bakabyomeka ku rukuta, maze bagashyiraho indi mitako, bityo bikaba ari ibintu biba binogeye ijisho.

Ibikoresho byiza cyane by'imitako bikozwe mu giti kandi biraza kugurishwa bityo abantu bari bubigure bazajye bahora babona ubugeni ndetse n'ubuhanzi buri muri iki gihangano.

Ibikoresho byo mu nzu harimo intebe zifite imisego irimo amabara y'umweru n'umukara; intebe nziza cyane nshyashya, kandi uzicayeho wese aba yumva ameze neza atuje.

Intebe nziza cyane zo muri saro kandi zicarwaho n'abantu benshi icyarimwe, hari kandi n'amezaza akozwe mu giti meza cyane ateretse aho ngaho, muri saro nziza irimo amakaro kandi irimo n'imitako.

Intebe nziza cyane zo kwicaraho zifite ibara ry'icyatsi, zifite n'ameza manini asize ibara ry'umweru, hafi yaho hari igitanda kiriho matera nziza kinini rwose.

Rufu topu yo kuri hoteli imwe yo mu mujyi wa Kigali. Iba iriho intebe nziza cyane z'ruganiriro abantu bicaraho bakumva batuje kandi baticwa n'izuba kuko haba hatwikiriye neza.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ufite amatara awumurikira iyo bwije, kandi abawukoresha bacamo babona neza kandi bigabanya impanuka za hato na hato.

Hoteri nziza kandi nini cyane yiganjemo ibikoresho byo mu nzu byiza kandi biteye amabengeza, intebe zo mu ruganiriro mushobora kwicaramo mu gihe muri gupanga ibintu byanyu kandi mukaba muri kwiyumvira amahumbezi.

Hoteli nziza cyane y'inyenyeri eshanu, ikaba irimo ibisabwa byose umukiriya yakenera, harimo televiziyo harimo kandi intebe n'ameza yakoreshwa nk'ibiro, hari uruganiriro kandi hose harisanzuye.

Ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bitanga akuka keza ko guhumeka, akaba ari ubusitani bwa hoteri nziza cyane y'inyenyeri eshanu, abantu bajyayo baraharuhukira rwose.

Hoteri nziza cyane iri ahantu heza ifite amabara meza cyane abereye ijisho yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, hanze ya hoteri hari jaride nziza cyane kandi hari n'intebe wicaraho ukumva amahumbezi.

Intebe ziteye neza kandi ku murongo ku meza manini cyane akorerwaho inama ya Mariyoti hoteri harasa neza kandi hari amatara abonesha ku buryo baba bicaye batuje.

Hoteli iri ahantu heza cyane hitegeye imisozi myiza kandi bafite uruganiriro mushobora kwicaramo udutebe twiza cyane ndetse n'ameza kandi afite n'imitaka ku buryo izuba ritabica.

Ikirango cya Mariyoti hoteli cyanditse neza neza aho Marioti hoteli iherereye, hari ubusitani bwiza cyane burimo jaride ndetse n'indabo nziza cyane, hateye n'ibiti byiza bitanga amahumbezi ku bahicaye.

Inyubako ndende cyane ikoreramo hoteli nziza cyane ya Onomo hoteli bakaba bafite serivisi zigiye zitandukanye kandi bafite pisine nini cyane mushobora kogeramo mu gihe muri kuruhuka.

Inyubako ndende igeretse inshuro umunani yiswe Fopowenti, ikaba isize irange rya kake kandi iruhande rwayo hateye ibiti byiza cyane biyungurura umwuka mwiza duhumeka.

Icyumba kirimo intebe nziza cyane cya hoteri kandi harimo intebe z'amoko atandukanye. Higanjemo izifite amabara y'umukara, izindi zambaye kwire nziza cyane isa umutuku.

Hoteri nziza cyane y'inyenyeri eshanu, iri ahantu hari ibiti byiza bitanga akayaga, ifite pisine nini cyane abantu bashobora kongeramo, hanze kandi hari udutebe abantu baruhukiramo iyo barushye.

Meni yo kuri giriti hoteli, mu kiyovu. Iba iriho ibintu byose, bagira bityo nawe ukabasha kwihitiramo. Kandi buri kintu kiriho, haba hagaragaraho n'ibiciro byacyo ku buryo utumiza bitewe nuko wifite.

Inyubako ndende cyane igeretse inshuro nyinshi, ikoreramo ikigo Buritamu kandi gitanga ubwishingizi bugiye butandukanye, ubwishingizi bw'indwara, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubw'inkongi y'umuriro ndetse n'ubundi bwose wifuza.

Sonarwa ni company itanga ubwishingizi mu bijyanye n'ibinyabiziga, kuba inzu yawe yafatwa n'inkongi y'umuriro kandi ibyo byose bakabasha kukwishyura, bityo ukabaho utuje kandi umeze neza, bakaba bakorera ahantu hatandukanye, icyicaro cyabo giherereye i Remera.

Sanlam ifite ibiro bigari kandi buri wese ukeneye serivisi zitandukanye ashobora kuba yabigana, batanga ubwishingizi ku binyabiziga, ubwishingizi bw'ubuzima ndetse n'ubundi bwose wakifuza.

Inzu isize irange ry'ubururu, iriho icyapa cya Equity kigaragaza ko hari umu ajenti wa Equity. Hari kandi n'icyapa kigaragaza yuko batanga serivisi zigiye zitandukanye, hakubiyemo n'iz'irembo.

Purayime inshuwarensi, ibiro bya Purayime inshuwarensi, iyo ubigezeho bakwakirana yombi kuko batanga ubwishingizi mu bijyanye n'ubuzima, ubw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'ibindi bintu ibyo ari byo byose wakenera.

Radiyanti biroroshye, isezerano ni isezerano, bagane ku biro byabo maze bagufashe, hari umukozi witeguye kuba yabakira, yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati ya karokaro.

Ibiro bikoreramo abatanga ubwishingizi bugiye butandukanye bafite ikigo cyitwa MUA, bakaba batanga ubwishingizi bw'ubuzima ubw'ibinyabiziga n'ibindi.

Ibiro bikoreramo kompani itanga ubwishingizi byaba mu bijyanye no kwivuza ubwishingizi bw'imodoka ubwishingizi bw'ubuzima ndetse n'ibindi akaba ari Sonarwa ndetse na MUA.

Insurance, Rusizi branch, iringiri ni ishami rya Prime insurance, kandi babafitiye serivisi zigiye zitandukanye, batanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubw'ubuzima, ndetse n'ibindi, murakaza neza aho bakorera.

Ibiro bitandukanye, birimo intebe zo kwicaramo utegereje ko uhabwa serivise ndetse n'aho abakozi bakorera, bikaba ari ibiro bya kampani ishinzwe gutanga ubwishingizi, haba mu bijyanye no kwivuza ndetse n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byo mu nzu kandi muri salo, hari akabati keza cyane gakozwe muri MDEF, gafite amabara agiye atandukanye kandi meza, arimo umweru, aya kake ndetse n'ayandi.

Iyubake na I&M banki. Ni nde wemerewe inguzanyo? Ku wa gatatu ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa karindwi, ntuzacikanwe ikiganiro kizaba kiri rayivu kuri Radiyo Wani kandi bazasobanura neza ukuntu iyi nguzanyo itangwa.

NCBA, biroroshye cyane kubona inguzanyo kandi ihagije. Ushobora kubona miliyoni mirongo itandatu z'amafaranga y'u Rwanda kandi ukayishyura mu gihe kirekire, kingana n'imyaka makumyabiri. Biroroshye cyane.

Ibiro birimo intebe zitandukanye, harimo intebe z'imikara zifite ameza akozwe mu biti, kandi hari mudasobwa zishobora kuba zifashishwa mu kazi kagiye gatandukanye.

Uburyo bworoshye kandi bwihuta bwo kuba wakohereza ndetse ukanakira amafaranga kuri famiye yawe ndetse n'inshuti zawe ziri hanze, ushobora gukoresha ishami rikwegereye rya egisipuresi powenti kugira ngo ubashe kuba watangira.

Lolc unguka fayinense, ni banki itanga inguzanyo kandi ku nyungu ntoya cyane, bashobora no kuguha inguzanyo nta ngwate ufite, abamama bane barimo kwamamaza unguka fayinense.

Spen ni uburyo bworoshye ushobora gukoresha bityo nawe ukaba wabona inguzanyo, kandi itagira ingwate, ishimira inguzanyo kandi itagira ikiguzi, ushobora kuyisanga kuri Spen ukayikura kuri Playstore.

Abaturage, abagore ndetse n'abagabo bose bazindukiye mu bikorwa byiza kugira ngo babashe kuba babona inkunga zigiye zitandukanye maze bafashe bagenzi babo. Bose barishimye kuko bagize icyo batanga.

Igalone, ushobora gusaba inguzanyo maze nawe ukiga imodoka, ukamenya gutwara, biroroshye kandi birizewe, icyo usabwa gusa ni ukubasanga aho bakorera cyangwa se ugahamagara; mirongo itanu na rimwe makumyabiri.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo ibicuruzwa byerekeranye n'umuco kandi hari n'imitako ijyanye n'ubwiza ndetse n'imitako yo muri salo n'ahandi.

Inyubako ndende y'umujyi wa Kigali ikoreramo isoko rya Nyarugenge. Ikaba iri hafi y'umuhanda. Hafi yawo kandi hari na parikingi, abagenzi cyangwa abakiriya bashobora guparikamo bakajya mu bindi.

Isoko ririmo ibintu bigiye bitandukanye kandi rifite abaguzi, bose bazindutse kugira ngo babashe kubona ibyo bifuza, higanjemo abagore n'abakobwa, kuko aribo bakunda guhaha.

Iduka ricuruza imitako myinshi itandukanye higanjemo kandi iya gakondo urugero nk'ibiseke ndetse n'utwibo dutoya cyane abantu bakunda ino mitako ari benshi.

Umugore uhetse umwana urimo gucuruza ibicuruzwa byiganjemo imboga n'imbuto, ari gucuruza amashu, inyanya, kokombure, ibitunguru, pavuro n'ibindi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo abaguzi benshi baje kwihahira bitewe n'icyo buri wese akeneye, abenshi muri bo bari kwishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Isoko rusange ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye byiganjemo ibishyimbo, ibitunguru, karoti, intoryi, inyanya ndetse n'ibindi, harimo kandi n'ibindi bicuruzwa nk'imyambaro, inkweto n'ibindi bitandukanye.

Isoko rusange ririmo ibicuruzwa bijye bitandukanye urugero: nk'imyenda, amabase, amasafuriya, amavuta yo kwisiga, amasabune, ama ga yo koga ndetse n'ibindi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo imyambaro yaba iy'abato n'iy'abakuze, hanze kandi hari urujya n'uruza rw'abantu bigaragara yuko bari buze kubona abakiriya kandi bakagura.

Isoko ryiganjemo ibyo guteka bitandukanye harimo imboga urugero nka karoti intoryi ibitunguru amashu beterave ndetse n'izindi zitandukanye.

Isoko rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye kandi harimo n'abaguzi, umugore umwe ufite umwana mu ntoki arimo aragurira amasambusa umugabo uyafite mu ndobo.

Isoko rinini cyane ryiganjemo ibicuruzwa bitandukanye harimo: ibyo kurya imboga ndetse n'imbuto, harimo ibitoki byiza cyane byo guteka kandi abaguzi bazindukiye mu isoko baje kwihahira.

Isoko ririmo imboga n'imbuto n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, mu mbuto higanjemo imineke, inanasi, ibinyomoro, wotameroni, imyembe ndetse n'ibindi. Abaguzi bo bari kugura kuko ibintu ari byiza.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, kandi rifite n'abaguzi benshi icyarimwe kuko bakeneye ibicuruzwa birimo higanjemo ibyo guteka, urugero nk'indagara ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye ipantaro ya kake ndetse n'umupira w'umutuku. Yambaye neza agapfukamuwa kandi yikoreye imineke myinshi icyarimwe kuko agiye kuyicuruza.

Isoko ry'imboga n'imbuto, harimo inyanya zo guteka, intoryi, karoti, imiteja, puwavuro, ndetse n'ibindi bitandukanye, abacuruzi baba bategereje abakiriya kugira ngo baze bihahire kuri make.

Isoko ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye, higanjemo imboga n'imbuto. Mu mboga zirimo, harimo; inoryi, karoti, pavuro, inyanya, imiteja, ibitunguru, ndetse n'ibindi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo imyenda, aho bagurira inkweto, aho bagurira ibicuruzwa byo mu nzu, kandi harimo na resitora aho umuntu ashobora kuba yaguriramo ibyo kurya.

Inyubako ndende iriho alimantasiyo ndetse na dayari ya Mukamira bacuruzamo amata, muri alimantasiyo bacuruzamo ibitandukanye byinshi cyane bitewe n'icyo wifuza byose ubasha kubibona kandi bikihuta.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo imboga ndetse n'ibyo guteka, urugero: nk'ibirayi, imyumbati ndetse n'ibijumba kandi hari n'imboga urugero: nka karoti inoryi, amashu n'izindi.

Isoko ry'imboga n'imbuto, abacuruzi baririmo bazanye ku isoko ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo karoti, ibitunguru, tangawize, intoryi, urusenda na pavuro.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, higanjemo imboga ndetse n'imbuto n'ibyo guteka. Hari ibishyimbo kandi hari n'imbuto nyinshi zitandukanye nk'amaronji, imineke, pome ndetse n'izindi.

Kiyosike ya Mobayilo mani, ikaba iriho abakozi bagiye batandukanye, bambaye imipira y'imihondo kandi bari kumwe n'abayobozi babo, baje kureba neza uko bakora akazi kabo ka buri munsi.

Ushobora kwishyura na momopeyi, biroroshye kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri wandike nimero cyangwa se mu momopeyi z'wo ushaka kwishyura.

Kiyosike ya MTN icururizwamo amayinite, ndetse igasabirwamo na serivise zigiye zitandukanye urugero nka: serivise zo kubitsa, kubikuza n'ibindi, ikaba iba iri mu mabara y'umuhondo.

Kiyosiki ya MTN mobayiro mani, iriho abakozi bari gutanga serivisi zigiye zitandukanye MTN itanga, ziganjemo izo kubitsa, izo kubikuza, izo kohereza amafaranga n'izindi.

Kiyosike ya MTN mobiyiro mani, iba iriho abakozi ba MTN bari gutanga serivisi zigiye zitandukanye, urugero nk'izo kwakira amafaranga, izo kuyohereza, izo kuyabikuza ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Puratifomu zigiye zitandukanye zikoreshwa hifashishijwe telefoni cyangwa se mudasobwa, ukaba ushobora kuba wagura ibintu bitandukanye ukoresheje telefone yawe kandi bikakugeraho utiriwi uva aho uri.

Afree pads kikaba ari ikigo gikora impapuro zifashishwa mu bijyanye n'isuku mu gihe abagore n'abakobwa bari mu mihango kandi gikora impapuro nziza z'isuku kuko zirizewe rwose.

Eyateli. Eyateli ishobora kuguha jigabayiti mirongo itandatu za interinete ku bihumbi bitanu gusa kandi zikamara iminsi mirongo itatu. Witinya, witinya biroroshye kandi buri munsi uba ubona jigabayiti ebyiri.

Uburyo bwemewe kandi bwihuse, ushobora gukoresha kugira ngo wihahire ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Urugero nk'inkweto, ibikoresho bya elegitoronike ndetse n'ibindi byose wakenera, biroroshye kandi birizewe.

Yego ikaba ari company ishinzwe kuba yagemura ibicuruzwa bigiye bitandukanye urugero nk'ibiribwa kandi bikakugeraho byihuse cyane, hamagara nimero itishyurwa mirongo icyenda na rimwe mirongo icyenda na rimwe.

Moto ya vuba vuba igemura ibyo kurya cyangwa se ibyo guteka mu mugihe uyikeneye kandi bikakugeraho byihuse ukoresheje terefone yawe, ushobora nawe gutumiza ibyo ushaka, andika ijana mirongo itatu na rimwe, ubahamagare maze nawe bakugereho vuba vuba.

Ikibanza cyiza kandi cyoroshye kuba wakigura kuko kihagaze miliyoni cumi n'eshanu zonyine z'amafaranga y'u Rwanda. Giherereye i Bumbogo, aho bita i Musave. Ni karibu mwigurire bigishyushye.

Inzu nziza cyane iherereye ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ifite ibikoresho byose, ifite dushe kandi ikaba ifite n'ibyumba bine byose, ni karibu ni karibu batarayitwara.

Ikibanza kiza kinini cyane giherereye mu mujyi wa Kigali ahitwa i Musave i Bumbogo kikaba kigurishwa miliyoni cumi n'eshanu zonyine z'amafaranga y'u Rwanda. Hari umuhanda munini ukigeraho.

Umugabo waje kugura inzu ari kumwe n'umugore uri kugenda amwereka uko inzu iteye ari kumwereka ibikoresho bitandukanye byo mu nzu harimo intebe nziza cyane ziri mu ibara ry'umweru ndetse na televiziyo nini cyane iri ku rukuta.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali ifite ubwogero bunini kandi bwiza ikaba ihagaze Amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi kandi igahita ibe iyawe ako kanya.

i Kigali mu Rwanda hari inzu nziza cyane, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byiza n'imitako myiza cyane yo muri salon, ku madorari magana atanu mirongo itanu yonyine ushobora kuyibona iyo nzu kandi birihuse.

Ubwogero burimo na tuwarete kandi burimo amakaro meza cyane harimo n'amazi yaba akonje ndetse n'ashyushye byose bikaba biri mu nzu nziza nini kandi idahenze.

Ibikoresho byo mu gikoni harimo firigo ishyirwamo ibintu kugira ngo bitaza kwangirika, harimo kandi igikoresho cyifashishwa mu gushyushya ibyo kurya kizwi nka mikorowonde, harimo kandi amashyiga ya gaze yo gutekeraho.

Inzu nziza cyane ya cadasiteri, ifite imbuga nini ishobora guparikwaho imodoka, inzu kandi nayo ni nini cyane kuko ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, iherereye i Kanombe kandi iri gukora.

Inzu nziza cyane yo gukodesha, iherereye Kimironko kwa Sekimondo, ikaba ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero butatu, ifite kandi mu imbere aho ushobora kuba wabika imyenda, muri buri cyumba, ikodeshwa ibihumbi magana atatu byonyine ku kwezi.

Kadasiteri nziza cyane iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu byonyine ku kwezi, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu.

Inzu nziza cyane ya Kadasiteri, ifite amabati y'umutuku, isize irangi ry'icyatsi, iri mu gipangu kinini cyane cyajyamo imodoka nyinshi, ikaba ikodeshwa, iherereye i Kanombe mu Mujyi wa Kigali, ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu.

Inzu nziza cyane irimo kugurishwa iherereye mu mujyi wa kigali i kanombe ikaba ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu ifite parikingi nini cyane yihagije ishobora kujyamo imodoka zirenze eshatu.

Inzu nziza cyane ya kadasiteri, iherereye mu mujyi wa Kigali, i Kanombe. Ifite ibyumba bitandatu n'ubwogero butatu. Ku bihumbi magana ane gusa by'amafaranga y'u Rwanda, ushobora kuyikodesha rwose!

Inyubako ndende igeretse inshuro eshatu, ikingishije ibirahure byiza bya fime, kandi hanze yayo, inyuma hari jaride, nini cyane iteyemo indabo n'ibiti byiza.

Inzu nziza cyane kandi nini ifite ibyumba bine, ikagira ubwogero butatu, ishobora kuboneka Kigali, Kimironko kandi ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda byonyine ku kwezi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru na mikoro iri ku ishati ye arimo arasobanura ibyiza by'inzu afite kandi ikaba iri ku isoko isize irange ry'umweru ni inzu ya kadasiteri ifite n'amadirishya asize irange ry'ubururu.

Isoko ry'imboga n'imbuto, higanjemo imbuto zikurikira ari zo: imineke, ibinyomoro, amatunda, voka, wotameroni, inanasi ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye.

Ihahiro rigari ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, buri wese bitewe n'ibyo ashaka ashobora kubigeraho kandi akabyishyura akoresheje ikoranabuhanga, abakiriya babiri bari kumwe n'umukozi ushinzwe kwishyura, barimo gukoresha ikoranabuhanga.

Inyubako ndende igeretse inshuro enye, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubucuruzi, hasi hari umuhanda nyabagendwa kandi uca imbere y'iyi nzu bityo abantu babasha kuhabona iyo bari kuhanyura.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, buri wese bitewe n'ibyo ashaka agenda arebamo kandi akabibona, iyo bagiye kwishyura bishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Ihahiro rinini cyane ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo kandi ibyo kunywa urugero, amave ndetse n'izindi nzoga zigiye zitandukanye, ifitemo kandi n'amafanta menshi atandukanye.

Alimantasiyo ihahira rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye kandi byinshi. Buri wese bitewe n'ibyo ashaka abasha kuba yabibona, higanjemo kandi amacipusi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibyo guteka nk'amakaroni, amashaza, amagi, ibishyimbo ndetse n'ibindi bitandukanye kandi umukozi ukoramo afasha abantu kugira babashe kubona ibicuruzwa bakeneye.

Ihahiro rusange riba ririmo ibicuruzwa byinshi kandi icyo ushaka cyose urakibona, abakiriya baraza bakagenda bareba ibyo bifuza barangiza bakabizana bakishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Ihahiro rigari kandi rusange ririmo ibicuruzwa bigera bitandukanye, haba harimo abaguzi benshi bose baje kwihahira bitewe n'icyo buri umwe wese aba akeneye kandi aragishaka akakibonamo.

Ihahiro rusange riba ririmo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, buri kimwe wifuza urakihasanga, zaba inzoga zo kunywa, amaji, amata, ibyo guteka, ibyokurya, amashokora ndetse n'ibindi.

Abagore batatu ndetse n'umugabo umwe bombi bicaye imbere kandi bafite ibyapa binini byamamaza beka, muri serivisi zigiye zitandukanye harimo na tekana aho ufunguza konti bityo ugatekana rwose.

Inyubako ndende cyane, igeretse inshuro icumi, ikoreramo ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB icyicaro gikuru niho giherereye hanze y'inyubako hateye ibiti byiza cyane biyungurura umwuka.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikaba ifasha umuntu kugira ngo atarembera mu rugo kandi yajya no kwivuza igiciro kikaba kitari kinini cyane kuko aba yarishyuye umusanzu we w'ubwisungane mu kwivuza.

Ejo heza abaturage bagomba kuyisobanurirwa kugira ngo babashe kumenya yuko ari bo ifitiye akamaro, bahuriye hamwe kugira ngo babashe gusobanukirwa neza kandi bayifatanyemo bishimye.

Ejo heza. Abagabo, abagore, abana ndetse n'urubyiruko muri rusange, bose bahuriye mu gikorwa cyiza cyo kuba basobanurirwa kandi bakamenya ibyiza bya gahunda ya Leta ya ejo heza, bakabaho batuje kandi batekanye.

Umubyeyi ufite mituelle de sante, ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, azifite ari ebyiri, iye ndetse ni y'umwana we ubu ngubu bashobora kujya kwa muganga nta kibazo.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo ibyo guteka urugero umuceri, akawunga, amavuta yo gutekesha, amakaroni, amafu agiye atandukanye ndetse n'ibindi, kandi harimo n'ibyo kunywa urugero nka ji z'ubwoko bwose, fanta n'ibindi.

Inzu nini cyane ikoreramo mega supa maketi. Ifite parikingi nziza nini, imodoka zose kandi nyinshi zishobora kuba zakwirwamo, maze abakiriya bakiyongera bakaba benshi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo guteka, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ushobora kuzamo ukareba icyo wifuza ukaba wagitwara.

Ihahiro ribamo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, abakiriya baba barimo ari benshi kugira ngo bihahire bitewe n'ibyo buri wese aribuze kuba akeneye, uwakira amafaranga we ushobora kumwishyura ku ikoranabuhanga.

Ihahiro rigari kandi rinini cyane ribarizwamo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye urugero nk'ibyo kunywa ibyo kurya ibyo guteka ibikoresho by'isuku ndetse n'ibindi. Harimo n'umukiriya uri kugenda areba ibyo akeneye.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo shokora, harimo amakafe, harimo icyayi, harimo kandi n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, urugero: nka ji, fanta ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ihahiro rusange rya Sawa siti ririmo ibikoresho bijye bitandukanye, byaba iby'isuku, byaba ibyo kurya, ibyo guteka ndetse n'ibindi bitandukanye. Harimo kandi n'ibyo kunywa byiza byinshi.

Ihahiro rigari kandi ryiza kuko ririmo ibicuruzwa byose wakenera, higanjemo ibicuruzwa urugero nk'ibyokurya by'abana, iby'abantu bakuru, ndetse n'ibindi byose wakwifuzamo ubisangamo.

Ihahiro ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo ibyo kurya, urugero: nk'imigati amacapati, ibiraha, amasambusa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.